Igare ritwaye ibintu n'ikimoto kirimo ibintu biri kugenda mu muhanda, byose bitwawe n'abantu, umugabo utwaye igare yambaye ingofero y'umutuku, hejuru y'ibyo atwaye hariho umusego w'igare.